Umuntu, uwo muntu ni umugore yashyize telefone igendanwa ku gutwi ari guseka yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'umweru, ibara ry'umukara n'ibarajya rijya gusa kake, afite igikapu kijya gusa ikijuju ku rutugu afite n'ikindi ari gukurura gifite ibara rijya gusa ubururu.

Icyapa cyo ku muhanda cyandikishijweho amagambo manini ari mu mabara atandukanye, amwe yanditswe mu ibara ry'umukara andi ari mu ibara ry'ubururu, andi ari mu ibara ry'umutuku, hariho n'imodoka iri mu ibara ry'umutuku.

Icyapa kirimo amabara agiye atandukanye, kiri mu ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, kuri icyo cyapa kandi handikishijweho amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, hariho n'ikirenge cy'umuntu upfukishijwe igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Umuntu, uwo muntu n'umugore, arahagaze ari guseka. Yambaye ikanzu ndende ifite amabara agiye atandukanye, yiganjemo ibara rijya gusa kacye. Inyuma ye hari imyambaro ikoze mu bi bitenge, bifite amabara agiye atandukanye.

Abantu abo bantu ni abagabo babiri bahagaze bafite ikirango cy'urufunguzo mu ntoki, abo bantu kandi bahagaze imbere y'ibinyabiziga, ibyo binyabiziga ni imodoka nini ebyiri zifite amabara agiye atandukanye imwe muri zo ifite amabara abiri harimo ibara ry'umukara n'ibara ry'icyatsi.

Abantu abo bantu ni abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka nini umwe muri bo yambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu afite agakapu gafite ibara ryo gusa umutuku mu ntoki yambaye n'ingofero y'umukara.

Abantu, abo bantu ni abagabo babiri bahagaze. Umwe yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara yambaye n'amadarubindi. Abo bagabo bafite ikirango cy'urufunguzo mu ntoki. Bahagaze imbere y'imodoka nini, ifite amabara atandukanye.

Imodoka y'umukara iri mu muhanda w'amabuye, inyuma yayo hari izindi modoka ebyiri imwe ni imbangukiragutabara ifite ibara ry'umweru harimo n'ibara ry'umutuku. Yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, indi ni imodoka nini na yo iri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda w'amabuye urimo imodoka, izo modoka ni imodoka nini zifite ibara ry'umweru, inyuma yazo hari ihema, umwe muri abo bantu yambaye inkweto z'umweru, abo bantu bafite ikirango cy'urufunguzo mu ntoki.

Amafaranga, ayo mafaranga ni inoti ebyiri zifite ibirango bitandukanye, imwe yanditseho amagambo manini ari mu rurimi rw'Icyongereza, ariho ishusho y'abana b'abanyeshuri bari kureba muri mudasobwa harimo n'umubare magana atanu.

Amafaranga ibihumbi bitanu. Kuri ayo mafaranga hasi hariho ibara rijya gusa nk'umutuku, hejuru handitseho amagambo manini yandikishijwe ibara ririmo umukara n'umutuku. Kuri ayo mafaranga kandi hashushanyijeho ikawa hariho n'igishushanyo cy'inyubako.

Amafaranga ibihumbi bibiri, hejuru handitseho amagambo manini yanditswe mu ibara rijya gusa nk'ubururu, hasi kandi naho handitseho amagambo manini ari mu ibara rijya gusa nk'ubururu, hagati hari ibara ry'icyatsi.

Amafaranga, ayo mafaranga ni inoti ebyiri zombi ziriho ibirango bigiye bitandukanye. Imwe iriho ishusho y'umugore uhetse umwana handitseho n'amagambo manini ari mu rurimi rw'ikinyarwanda hariho n'umubare ijana.

Mu cyumba cy'ubucuruzi gifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, muri icyo cyumba kandi harimo akabati kamanitswemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'amandazi, imitobe n'amata, muri ako kabati kandi harimo n'indobo.

Icyumba cy'ubucuruzi kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, muri abo bantu harimo umugore uteze igitambaro gifite ibara ry'umukara yambaye agapira gafite amabara menshi agiye atandukanye, harimo irijya gusa umutuku n'irindi rijya gusa umweru.

Umugore wambaye ikanzu ndende iri mu ibara ry'ubururu, afite kandi igikapu kiri mu ibara ry'umukara, yiteze igitambaro gifite ibara ry'umweru, ahagaze mu nyubako y'ubucuruzi irimo ibiribwa bitagaragara neza.

Umuntu, uwo muntu ni umugore aricaye yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru, yambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara, yicaye kandi ku ntebe ifite ibara ry'umweru. Imbere ye hari akajerekani.

Abantu babiri batandukanye, abo bantu bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe imbere ye hari ameza ateretseho utujerekani dutatu kamwe karimo umubirikira ari gusukamo amata.

Urupapuro ruri muri mudasobwa. Urwo rupapuro rushushanyijeho imbonerahamwe, hariho amagambo hariho n'imibare kuri urwo rupapuro kandi, hariho ikirango cya Leta y'u Rwanda, hariho n'ikirango cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Umuntu utagaragara igice cyo hejuru yambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru, intoki ze zifashe amafaranga ageretse hejuru y'ayandi, kuri ayo mafaranga hariho ishusho y'umuntu hariho n'umubare ijana.

Amafaranga ariho ishusho y'umuntu. Kuri ayo mafaranga kandi ariho ibirango bigiye bitandukanye. Hariho umubare ijana, hariho inyuguti n'imibare birimo ibara ry'icyatsi kibisi, hari kandi n'izindi nyuguti n'imibare biri mu ibara ry'umukara.

Amafaranga, ayo mafaranga ariho ibirango byinshi bitandukanye hariho umubare ibihumbi makumyabiri, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Igifaransa, hariho n'ishusho y'udusumbashyamba tubiri, hariho n'umukono w'umuntu.

Amafaranga, muri ayo mafaranga harimo inoti n'ibiceri, izo noti zifite amabara n'ibirango bigiye bitandukanye, zimwe muri zo ziriho ishusho y'umuntu ufite imisatsi miremire handitsweho n'umubare ijana, izindi zifite ibara rigiye gusa kaki harimo n'umuhondo.

Amafaranga ariho ishusho y'umuntu w'umugabo, ayo mafaranga yanditseho umubare makumyabiri wandikishijwe ibara rijya gusa n'icyatsi, hariho kandi n'izindi nyuguti ntoya n'imibare byandikishijwe ibara ry'ubururu.

Amafaranga ari mu biganza by'umuntu, ayo mafaranga arimo ibirango bitandukanye, hariho ishusho y'umuntu ufite imisatsi miremire, hariho kandi n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hariho n'umubare rimwe.

Intoki z'umuntu zifashe amafaranga, ayo mafaranga ni inoti ebyiri, kuri izo note zombi hariho umubare ijana, kuri izo noti ebyiri kandi hariho ishusho'umuntu w'umugabo ufite imisatsi miremire.

Amafaranga, ayo mafaranga ni inote nyinshi zirambitse ku bipapuro, izo note ziriho ibirango bitandukanye, hariho ishusho y'umuntu ugaragara igice cyo hejuru gusa ufite imisatsi miremire, hariho kandi n'umubare ijana.

Amafaranga, ayo mafaranga ni inoti iriho ishusho y'umuntu w'umugabo, wambaye amadarubindi, kuri ayo mafaranga kandi hariho ibirango bigiye bitandukanye harimo umubare magana abiri wanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu utagaragara igice cyo hejuru neza afashe amafaranga, imbere ye hateretse n'izindi noti nyinshi, inyuma ye hari abantu babiri batagaragara neza, umwe yambaye imyambaro y'umweru, undi yambaye umupira w'umukara, mo imbere yambayemo ishati ifite ibara rijya gusa ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga n'abantu ibinyabiziga n'imo zifite amabarage atandukanye iruhande rw'uumuhanda kandi hari inyubako ndende imanitseho ibyapa bigiye bitandukanye kuri muhanda kandi hari itara ryo ku muhanda.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibara ry'ubururu kuri iyo nzu kandi handitsweho amagambo manini cyane yanditswe mu ibara rijya gusa nk'umweru, iruhande rw'iyo nzu hari indi nzu y'ubucuruzi iri mu mabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'uruganiriro giteyemo intebe n'ameza, izo ntebe zifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara rijya gusa umweru n'ibara rijya gusa nk'umutuku, ayo meza afite ibara rijya gusa umweru, harimo n'ibara rijya gusa nk'umuhondo.

Abantu. Aba bantu ni bagabo babiri bicaye, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye. Umwe muri bo yambaye ishati ifite ibara rijya gusa umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, impapuro n'icupa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga; ibyo binyabiziga ni imodoka y'umukara ndetse n'ipikipiki. Hagati muri uwo muhanda wa kaburimbo hateyemo ibyatsi, uwo muhanda ukikijwe n'inyubako ndende ndetse n'ibiti birebire.

Inzu, mbere yayo hari ibinyabiziga hejuru yayo hamanitse icyapa kinini kiri mu mabara atandukanye arimo ijya gusa nk'umutuku harimo kandi n'umweru handikishijweho ijambo rinini ryanditswe mu ibara ry'umweru iruhande rw'iyo nzu kandi hari na none icyapa kiri mu mabara atandukanye harimo iy'umutuku n'umweru.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye ibyo bicuruzwa harimo indimu imineke imyembe n'amatunda umuntu umwe muri abo bantu ubu arahagaze ni umugore yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru.

Isoko ririmo abantu n'ibiribwa umwe muri abo bantu aricaye ateza igitambaro yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu imbere ye hari imbuto nyinshi zitandukanye harimo amatunda n'imineke.

Isoko ririmo ibicuruzwa n'abantu, umwe muri abo bantu yambaye umupira w'umukara yambaye n'ipantaro irimo amabara agiye atandukanye arimo ibara ry'umukara, n'ibara ry'umweru, muri iryo soko kandi harimo ibicuruzwa nk'ibikapu, inkoni, ibiseke.

Inyubako ndende ,iyo nyubako ifite amadirishya y'ibirahuri, hejuru yi'yo nyubako ubu arimo inyuguti eshatu, ziri mu mabara atandukanye. Hariho inyuguti ya ka iri mu ibara ry'umutuku ,nyuguti ya i iri mu ibara ry'icyatsi n'inyuguti ya ca iri mu ibara ry'umutuku.

Abantu benshi batandukanye abo bantu harimo abagore n'abagabo umwe muri abo bantu n'umugabo aricaye yambaye ingofero yambaye ikoti rifite ibara ry'umukara yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara imbere ye hari ibiribwa birimo imyumbati n'ibijumba.

Umuntu uri mu isoko, uwo muntu ni umugore ndetse ahetse umwana, ateze n'igitambaro mu mutwe inyuma ye hari abantu batagaragara neza, iruhande rwe kandi n'inyuma ye hari ibiribwa bitandukanye harimo amashu n'inyanya.

Isoko ririmo abantu n'ibicuruzwa, umwe muri abo bantu yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa umutuku yambaye n'ipantaro ifite ibara rijya gusa ubururu, muri ibyo bicuruzwa harimo ibiseke.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye. Muri ibyo biribwa harimo ibitoki, harimo n'imboga z'ubwoko butandukanye, izo mboga ziri mu bitebo. Muri izo mboga harimo imboga rwatsi, karoti ndetse n'ibitunguru.

Abantu babiri bahagaze bahuje amaboko, bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hahagaze abantu bagiye batandukanye harimo abana, abagabo n'abakuze, kandi inyuma yabo hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo handikishijweho amagambo y'umukara.

Abantu abo bantu n'abagabo batatu n'umugore umwe, babiri muri abo bantu kandi bambaye imipira y'amaboko magufi ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu bwerurutse.

Akazu gato gafite amabara menshi atandukanye yiganjemo ibara ry'umuhondo, kuri ako ka handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, n'ibara ry'umukara w'imbere muri ako kazu harimo umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru.

Umuntu uri mu kazu gatoya gafite ibara ry'umuhondo, ako kazuru kanditseho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara n'ibara ry'umutuku. Uwo muntu kandi yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Abo bantu ni abagabo, bahagaze munsi y'umutaka ufite amabara atandukanye, harimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu, abo bantu bahetse ibikapu, umwe muri bo ahetse igikapu gifite ibara ry'umukara.

Abantu, abo bantu ni abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, bahagaze ku ihema rifite ibara ry'umuhondo, inyuma y'iryo hema handitseho amagambo arimo ibara ry'umukara n'ibara ry'umutuku, inyuma y'iryo hema ry'umuhondo kandi hari irindi hema ry'ubururu ryanditseho ijambo riri mu ibara ry'umweru.

Abantu; abo bantu ni abagabo batatu, babiri muri bo bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umuhondo; undi umwe yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru. Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Abantu babiri, abo bantu ni abagabo, umwe muri bo yambaye amadarubindi, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umuhondo, afite mu ntoki terefone ntoya igendanwa, imbere ye hari mudasobwa.

Intoki z'umuntu zifashe telefone ntoya y'umukara igendanwa muri iyo telefone harimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru n'ubururu, inyuma y'iyo telefone hari icyapa kiri mu mabara menshi agiye atandukanye harimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umukara.

Akazu gato gafite ibara ry'umuhondo w'imbere muri ako kazu hahagazemo abantu babiri inyuma kuri ako kazu kandi handitsweho amagambo arimo ibara ry'umukara ahagaze kandi umuntu wambaye ikoti rifite ibara ryo gu ubururu.

Umugore wambaye ikanzu iri mu ibara rijya gusa nk'umutuku, yambaye n'inkweto ziri mu ibara rijya gusa nk'icyatsi. Inyuma ye hari icyapa kinini kiri mu mabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu, kuri icyo cyapa kandi hariho abantu babiri.

Akazu gatoya gafite ibara ry'umuhondo ako kazu kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Mo imbere muri ako kazu hicayemo umuntu yambaye agapfukamunwa k'umukara, yambaye n'imyambaro ifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi. Inyuma y'ako kazu kandi hahagaze undi muntu yambaye ingofero, yambaye agapfukamunwa ari kureba muri telefone igendanwa.

Ipikipiki iyopikipiki iriho umuntu wambaye ingofero ifite ibara ry'umutuku inyuma y'uwo muntu kandi hari igikapu gifite amabarage agiye atandukanye harimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umukara uwo umuntu kandi yambaye umupira w'amaboko magufi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, ibyo binyabiziga ni amapikipiki abiri yicayeho abantu, abo bantu bambaye ingofero zifite ibara ry'icyatsi, iruhande rw'uwo muhanda kandi hari ibiti birebire.

Umuntu, uwo muntu ni umugabo arahagaze, yambaye ingofero ifite ibara ry'umuhondo, yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, ahagaze iruhande rw'ipikipiki.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe ebyiri zifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, harimo n'ameza y'umukara, muri icyo cyumba kandi cy'uruganiriro harimo ibitambaro bikingira izuba bifite amabara agiye atandukanye harimo umweru.

Icyapa gifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru hariho kandi n'ishusho y'imodoka icyo cyapa kandi cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo, umwe muri abo bantu yambaye ingofero, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rijya gusa umwe amanitse intoki ebyiri.

Icyumba kicayemo abantu bagiye batandukanye. Harimo abagore n'abagabo. Umwe muri abo bantu ni umugabo ufite ikaye mu ntoki irimo n'impapuro. Iruhande rwe hicaye umugore wambaye ibitenge birimo amabara agiye atandukanye harimo umuhondo n'umutuku.

Abantu benshi batandukanye, abo bantu harimo abagore n'abagabo bo bagaragara igice cyo hejuru gusa, abo bantu bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye imbere, yabo hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Abantu batandukanye muri abo bantu harimo abagore abana n'umugabo muri abo bantu kandi harimo abicaye bamwe muri bo bafite mu ntoki impapuro zifite ibara ryo gusa umuhondo, n'udukaye dufite ibara rijya gusa n'iroza.

Ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza. Iyo karita ifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse, kuri iyo karita kandi hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, kuri iyo karita hariho ikirango cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize.

Abantu babiri. Abo bantu ni abagabo bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo yambaye amadarubindi, yambaye ikoti rifite ibara rijya gusa ubururu bwijimye, yambaye ishati ifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, afite agakapu k'umuhondo mu ntoki.

Intoki z'umuntu zifashe amakarita abiri y'ubwishingizi bwo kwivuza. Imwe muri ayo makarita yandikishijweho amagambo manini cyane ari mu ibara ry'umukara ayo makarita afite ibara rijya gusa nk'ubururu.

Inyubako iyo nyubako ifite imiryango y'ibirahuri, imbere y'iyo nyubako hari umuhanda w'amabuye, ku muryango hejuru y'iyo nyubako handitse amagambo manini abiri rimwe riri mu ibara ry'umuhondo, irindi riri mu ibara ry'umuhondo harimo n'ikijuju.

Icyumba cy'ubucuruzi kirimo abantu n'ibicuruzwa babiri muri abo bantu bambaye imyambaro yo hejuru ifite amabara agiye atandukanye harimo: ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu, umwe muri abo bantu arimo aramanura ibicuruzwa.

Umuntu, uwo muntu n'umugore yambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku, yambaye itaburiya y'akazi ifite ibara ry'umukara.

Umuntu uri mu isoko uwo muntu ni umugore afite imisatsi miremire yambaye amadarubindi, yambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye, afite igiicuruzwa mu ntoki ndetse na terefone igendanwa.